Ubucuruzi bw'imiti igomba gucururizwa mu nzu zikoze neza， buteye imbere mu Rwanda. Abacuruzi bifashisha mudasobwa， kugira ngo bafate amakuru yose y'ababagana.

Inzu ntoya yagenewe kuba ivuriro rito abantu bagana bakivuza. Ikibanza cyayo ahagana imbere abagabo baragerageza kuhakorera ubusitani ngo hamere neza, buri wese uhagana abone hakeye.

Ikibonobono ni icatsi kigira uruti rukura ruzamuka, kikagira utubuto, kikagira n'amababi, ashobora kuba ibiryo by'amatungo cangwa se imbuto zaco zikaba umuti ku bavuzi gakondo.

Ibyatsi byose tubona mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, nubwo tuba tutazi uko bikora ariko iyo ubizi, biravuraga. Imvura idahita zivuraga n'uburwayi bw'abana kandi bagakira neza rwose.

Umutagara ni icyatsi cyifashishwa mu buvuzi gakondo mu Rwanda, kirakura kikazamuka, uruti rwacyo rurabyibuha, amababi yacyo niyo yifashishwa mu buvuzi.

Isogo uretse kuba zivura abantu batabasha kugira ubushake bwo kurya, ni n'icyatsi kidatwara ahantu hanini ho kugihinga, kirimeza ku buryo aho caba kiri hose caribwa kikanavura.

Igisura icatsi ciza kiboneka hano iwacu mu Rwanda cifashishwaga mu buvuzi, akenshi bw'igifu, kandi uretse kuba umuti, ni n'imboga nziza zishobora kurwanya indwara mu mibiri yacu.

Iwacu mu Rwanda ni igihugu kitari ubutayu, n'ubwo kigizwe n'amakoro ariko amakoro ntaco adutwaye kuko dusangamo ibyatsi byinshi bishobora no kutubera imiti turamutse twagize ikibazo c'uburwayi.

Amakoro ni ubwoko bw'amabuye bukomoka ku iruka ry'ibirunga, usanga hano iwacu mu Rwanda cyane cyane mu ntara y'amajaruguru ho mu karere ka Musanze haturiye intanzi z'ibirunga ayo mabuye turayahasanga rwose.

Umugwegwe ni icatsi ciza kigira uruti ruhera hasi, ahubwo amababi ya wo akaba ariyo yifashishwa iyo bayahondahonze, havamo imigozi bahambiza bari kubaka, ibyo bita gukomanya.

Igiti cyo mu bwoko bw'indumburabutaka, ni igiti kivangwa n'imyaka. Iyo gikuze gitanga imishingiriro ku bahinzi bashingiriza ibishimbo mu mirima yabo.

Ibihingwa nk'avoka biri mu bintu rwose byongera umusaruro, ibyatsi nabyo bifa bifasha mu kuvura indwara ziterwa n'uburwayi bwa bwa bw'abana akenshi aho babikora nko guhamura.

Intondore ni icatsi kimeza kikamera ahantu hatandukanye haba mu mabuye, ku nzira ,kikagira ururabo ari rwo ruvamo utubuto dukunda kuribwa akenshi n'abana ,uretse kuba utwo tubuto turibwa ni n'ibyatsi bagaburira amatungo nk'ingurube n'ibindi.